Ni abantu benshi cyane bicaye bameze nk'abari mu nama. Bambaye imipira y'umuhondo, ndetse n'iya orange. Bateze amatwi cyane, ariko barishimye, urabona bishimiye inama barimo. Inama ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abagabo benshi bicaye ahantu hamwe. Umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki. Barahuze, kuko bahugiye mu byo barimo. Ibiganiro ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bahugiye mu nama, bambaye imyenda itandukanye kandi barahuze cyane, bahugiye mu nama barimo, inama ni ingezi cyane, igira akamaro mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bari mu nama baravanze abagabo n'abagore, harimo abagabo bambaye amakote urabona bahuze cyane bahugiye mu nama barimo. Inama ni ingenzi igirira akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bicaye mu nama harimo n'umuyamahanga. Hari n'undi muntu ubari imbere ubona umeze nkuba ari kubaha amabwiriza. Amabwiriza ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi

Ni abantu benshi batandukanye, abagabo n'abagore, barahuze kuko bahugiye mubyo bari mo, imbere yabo hari mudasobwa, mudasobwa ni ingenzi kuko igirira akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni icyumba kinini cy'inama kirimo abantu benshi cyane, bose barahuze, bahugiye mu nama barimo, inama ni Ingenzi kuko igirira akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bari mu cyumba k'inama barahuze cyane kubera inama barimo, inama ni ingenziifitiye akaro imbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bicaye batandukanye ubona bahuze hari n'undi muntu ubahaze imbere ufite indangaruramajwi ubona bahuze, bahugye nko mu bintu by'inama, inama ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bicaye bari mu nama. Umwe afite indangururamajwi imbere ye. Barahuze kuko bahugiye mu nama barimo, inama ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bicaye bafite amakayi n'amakaramu, barahuze kuko bahugiye mu bintu bari kwandika, bari mu ishuri, ishuri ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi batandukanye bavanze b'abagabo n'abagore bari mu nama, urabona bahuze cyane bahugiye mu nama barimo, inama ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, abagabo n'abagore. Inama ni ingenzi cyane kuko igirira akamaro abantu, ifitiye umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe batandukanye, abagabo n'abagore, umwe yambaye ishati ya buresiyeri, undi umupira w'umuhondo, umugore yambaye igitambaro mu mutwe, barangamiye ibintu bari kumva, bameze nk'abari mu nama, inama ningenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi cyane bicaye mu inama barahuze cyane kuko bahugiye mu nama barimo. Inama ni ingenzi cyane, ifitiye akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bari mu nama abagabo n'abagore, bafite za mudasobwa imbere yabo barishimye cyane, bashimishijwe n'inama barimo. Inama ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Abantu benshi bicaye hamwe, bavanze abagabo n'abagore. Abagabo bambaye amakote, barimo abanyamahanga. Barahuze kuko bari kuganira. Ibiganiro ni igenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, baravanze abakuru n'abato, bari gukoresha mudasobwa. Mudasobwa ni igikoresho cy'ingenzi gifitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni umunara; umunara ukora ibintu byinshi bitandukanye ufitiye abantu akamaro kuba ubagezaho itumanaho, amashanyarazi ndetse n'ibindi, ufitiye imbaga nyamwinshi akamaro.

Ni akazu gakoreramo ikigo k'Irembo. Irembo ni ingenzi cyane kuko rituma abantu babona ibintu byinshi bitandukanye, ibyangombwa ndetse n'ibindi. Ni ingenzi cyane mu buzima bw'abantu.

Abantu benshi cyane, ndetse na mudasobwa nyinshi cyane imbere yabo. Barahuze, bazihugiyemo. Mudasobwa ni ingenzi, ikora ibintu byinshi bitandukanye.

Ni umuntu wicaye wambaye ikote ry'ubururu ndetse na marinete, ari gukoresha ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ingenzi kuko rifasha abantu mu bintu byinshi bitandukanye rifitiye umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni umunara, umunara ufitiye, ufite akamaro kanini, ko kugezaho abantu ho amashanyarazi ndetse n'itumanaho, ni ingenzi cyane, ufitiye akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni umuntu wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ishati y'umweru, atumbiriye mu ikoranabuhanga, urabona ahuze cyane, ahugiye mu byo ari kureba mu ikoranabuhanga rye, ikoranabuhanga ni ingenzi rifitiye akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni ibiti birebire biriho insinga z'amashanyarazi, amashanyarazi ni ingenzi kuko agirira abantu akamaro mu ngo zabo ndetse no ku mihanda, amurikira abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga afitiye umumaro imbaga nyamwinshi.

N'umutaka; umutaka ukora ibintu byinshi bitandukanye m'ubuzima bw'abantu, abantu barawitwikira bakawukingira izuba ndetse n'imvura, umutaka ufitiye umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni umunara, umunara ukora ibintu byinshi bitandukanye, ugezaho abantu amashanyarazi bakabasha gucana mu ngo zabo ndetse n'ibindi, ubagezaho n'itumanaho, umunara ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bari mu muhanda bagenda, ndetse n'ibinyabiziga byinshi, umuhanda ni ingezi kuko ufasha abantu kugera aho bagiye cyangwa ibinyabiziga kugera aho bigiye, ni ingenzi muri rubanda nyamwinshi

Ni ibiti birebire bishinze ku muhanda birimo amatara. Amatara agirira umumaro abakuru, n'abato kuko amurikira abantu bari kugendesha amaguru ndetse akamurikira n'ibinyabiziga afitiye umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni ibiti birebire biri ku muhanda biriho amatara. Amatara ni ingenzi cyane mu buzima bw'abantu kuko amurikira abantu bakabona aho banyura ndetse akamurikira n'ibinyabiziga. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ibinyabiziga, ibinyabiziga ni ingenzi cyane mu bantu, bigeza abantu ahantu bashaka kujya ndetse n'ibintu byabo, ibinyabiziga ni ingenzi cyane mu mbaga nyamwinshi.

Ni iminara. Iminara ifitiye akamaro abantu, ibagezaho amashanyarazi ndetse ibagezaho n'itumanaho. Iminara ni ingenzi cyane ifitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni ibiti biteye ku muhanda, ibiti ni ingenzi kuko bituma abantu bugamamo izuba, bivamo ibikoresho byinshi bitandukanye byo mu ngo z'abantu, mu mashuri ndetse n'ahandi, ibiti ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ibiti birebire by'imiyoboro y'amashanyarazi, amashanyarazi ni ingenzi kuko akora ibintu bitandukanye, amurikira mu ngo z'abantu, amurikira mu muhanda ibinyabiziga ndetse n'abanyamakuru, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu babiri umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'umurwayi, umuganga ari gupima umurwayi. Abaganga ni ingenzi kuko bagirira rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni abaganga bambaye amataburiya y'umweru, bicaye imbere y'ameza manini, ariho mudasobwa. Barahuze cyane, kuko bahugiye mu kazi. Abaganga ni ingirakamaro mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu barimo kugenda mu nzira, umugore yambaye igitenge ahetse umwana, umugabo yambaye ipantaro y'ubururu n'ikote ry'umweru baragenda baganira, ibiganiro ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi bitandukanye. Ibitanda ni ingenzi cyane, kuko bifasha abantu barwaye kubiryamaho bakabasha kubavura. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni icyumba kinini, kicayemo abantu bambaye umwenda w'akazi. Akazi ni ingenzi, kagirira umumaro abato n'abakuru. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abakozi b'ikigo gishinzwe umutekano mu muhanda, bari ku kibuga, hari n'ibinyabiziga byishi, barimo gukoresha abantu ibizami, abashinzwe umutekano ni ingenzi, bafasha abantu kugera ku bintu byinshi.

Ni abashinzwe umutekano wo mu muhanda n'ibinyabiziga, abashinzwe umutekano ni ingenzi cyane kuko bafasha abantu n'ibinyabiziga kugera aho bagiye nta mbogamizi, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ikinyabiziga cy'ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda. Umutekano ni ingenzi, ugirira rubanda nyamwinshi akamaro, ni genzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda; gikorera ahantu henshi hatandukanye. Gikorerwamo ibintu byinshi, iki kigo ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi b'abakozi bakorera ikigo gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro. Bari gukoresha amazi bambaye imyenda y'akazi. Amazi ni ingenzi agirira umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni abantu babiri bicaranye, umugore n'umugabo, umugore yambaye umukenyero w'icyatsi, umugabo yambaye ikote ry'ubururu na karavate y'ubururu, barahuze kuko basa nk'abaganira, ibiganiro ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu babiri umukobwa n'umugabo. Umwe yambaye umupira w'umweru, undi yambaye ishati y'umweru. Bari mu cyumba cyitora, bahugiye mu matora barimo. Amatora ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu babiri batandukanye umugabo n'umugore, baricaye umugabo yambaye ikote ry'umukara amarinete na karuvati, umugore yambaye ikote ry'umweru n'amarinete, bafite mudasobwa mu ntoki. Mudasobwa ni ingenzi igirira rubanda nyamwinshi akamaro.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, baravanze, abagabo n'abagore. Urabona bahuze cyane, kuko bahugiye mu nama barimo. Inama ni ingenzi, ifitiye akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni inzu ndende cyane zigerekeranye inshuro nyinshi, inzu zifite umumaro kuko zikorerwamo akazi, zigirwamo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, zifitiye umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bicaye mu nama. Harimo igitsina gabo n'igitsina gore. Umugabo yambaye ikote ry'umukara ndetse na karavate. n'abadamu bambaye amakoti. Urabona bahuze kuko bahugiye mu byo barimo. Inama ni ingenzi kuko igirira rubanda nyamwinshi akamaro.

Ibinyabiziga mu umuhanda, ibinyabiziga ni ingenzi, kuba bigirakamaro bigeza abantu aho bagiye ndetse n'ibintu ndetse n'ibindi ni ingenzi m'imbaga nyamwinshi.

Ni ibinyabiziga binini bipakiye imitwaro, bikorera mu Rwanda, ndetse no hanze yarwo. Ibinyabiziga ni ingenzi kuko bifasha abantu kubagezaho imitwaro yabo, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

NIi binyabiziga. Ibinyabiziha ni ngenzi kuko bifasha abantu, abato n'abakuru, bifasha abantu kugeza aho bagiye, haba kwa muganga , haba ku kazi ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ikinyabiziga kinini gitwara imizigo zitwara ibintu byinshi bitandukanye ibikoresho by'ubwubatsi ibiribwa ndetse n'indi ni ingenzi cyane mu mbaga nyamwinshi.

Ni ikinyabiziga kinini gitwara imizigo gikorera mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, gifitiye umumaro abantu kuko kibagezaho ibyo bakeneye, iki kinyabiziga ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda. Ikinyabiziga gifitiye umumaro abakuru n'abatoya. Kibageza aho bashaka kujya, haba ku mashuri, kwa muganga, mu kazi ndetse n'ibindi. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ikinyabiziga mu muhanda. Ikinyabiziga ni igikoresho kiza, gifasha abantu kugera aho bagiye ndetse n'imitwaro yabo. Ni ingenzi cyane mu mbaga nyamwinshi.

Ni ikinyabiziga cy'amapine atatu. Ni ikinyabiziga kigira umumaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi . Gitwara ibintu byinshi bitandukanye , ibiribwa kwimura abantu, ndetse ni'ibindi byinshi. N'ingenzi mu buzima bw'abantu.

Ni ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ibinyabiziga ni ingenzi kuko bifasha abantu kugera aho bagiye, haba abagiye kwa muganga, haba abagiye mu isoko, bagiye mu makwe n'ibindi, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ikinyabiziga cyikoreye imbaho, imbaho ziva mu gikoresho, ni igikoresho cyiza gikoreshwa mu mirimo y'ubwubatsi, gikora ibintu byinshi bitandukanye, intebe ,ibitanda, ndetse n'ibindi. Ni igikoresho gikenerwa na rubanda nyamwinshi.

Imodoka nyinshi ndetse n'abantu benshi, imodoka zifite umumaro mwinshi kuko zigeza abantu aho bagiye, zikabafasha kubatwaza ibyo bafite, imodoka ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ikinyabiziga gikora ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bw'abantu. Gitwara umucanga, gitunda amabuye, mbese gifasha abantu bari kubaka. Ni ingenzi kuko gifitiye akamaro rubanda nyamwinshi.

Ikinyabiziga gitwara imizigo, imizigo myinshi itandukanye. Ikinyabiziga ni ingenzi cyane kuko kigeza abantu ibintu bacuruza cyangwa mu ngo z'abantu bahashye. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ibinyabiziga mu muhanda ni amoko atandukanye ibitwara abantu ndetse n'abantu, ibinyabiziga bifitiye umumaro abato n'abakuru ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ibinyabiziga bifasha abantu mu buzima busanzwe bwa buri munsi, bibatwaza ibintu bikabageza aho bagiye ndetse n'ibindi. Ibinyabiziga ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ibinyabiziga byinshi bitandukanye. Bifasha abantu kugera aho bagiye, ndetse n'ibintu byabo kubigeza aho bigiye. Ni ingenzi cyane bifasha imbaga nyamwinshi.

Ikibuga gikenerwa n'abakuru n'abatoya, gikora ibintu byinshi bitandukanye, bagikiniraho umupira, bakitorezaho ndetse n'ibindi byinshi. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni icyapa, umuhanda, icyapa gikora ibintu byinshi bitandukanye kiyobora ibinyabiziga ndetse kikayobora n'abantu. Icyapa gifitiye umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni icyapa kinini ki ku muhanda. Icyapa ni ingenzi cyane mu buzima bw'abantu, kuko gifasha abantu kugera aho bagiye kiyobora imodoka ndetse n'abagenzi gifitiye akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni icyapa ku muhanda icyapa gikora ibintu byinshi bitandukanye kiyobora abagenzi ndetse cyikayobora n'ibinyabiziga icyapa n'ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ibyapa: ibyapa n'ingenzi kuko biyobora abantu ndetse bikayobora n'ibinyabiziga, ibyapa birakenerwa cyane n'ingenzi cyane mu mbaga nyamwinshi.

N'ibyapa biri ku muhanda. Ibyapa bifitiye umumaro abantu ndetse n'ibinyabiziga. Biyobora abantu aho bagiye cyangwa ibinyabiziga aho binyura ibyapa ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni byapa bibiri bitandukanye, ibyapa bikora ibintu byinshi bitandukanye, biyobora abagenzi aho bagomba kunyura batabangamiranye n'ibinyabiziga ndetse bikayobora n'ibinyabiziga, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni icyapa. Icyapa gikora ibintu byinshi bitandukanye: kiyobora abagenzi aho bagiye; kikayobora ndetse n'ibinyabiziga. Icyapa ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni icyapa gikora ibintu byinshi bitandukanye, icyapa cyiyobora abantu kugera aho bagiye cyikayobora n'ibinyabiziga kugera aho bigiye, icyapa ni ingenzi mu mbanga nyamwinshi.

Ni amatara yo ku muhanda, amatara afitiye umumaro abantu benshi abakuru n'abatoya, ayobora abantu aho bakwiye kunyura ndetse akayobora n'ibinyabiziga. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni inzu ndende cyane igeretse kenshi, inzu nigenzi ikorerwamo ibintu byinshi, amavuriro aho bantu batura ndetse n'aho bakorera, n'ibindi byinshi bitandukanye, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ikinyabiziga kiri mu muhanda, umuhanda ufitiye abantu akamaro abakuru n'abatoya, bawunyuramo, ibinyabiziga biwunyuramo ndetse n'ibindi, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ibinyabiziga mu muhanda, ibinyabiziga ni ingenzi cyane bigeze ahantu abantu bagiye, ndetse n'ibintu byabo, bifitiye akamaro cyane imbaga nyamwinshi.

Ni umuhanda. Umuhanda ukora ibintu byinshi bitandukanye, utuma abantu bawugeramo bakagera aho bagiye mu buryo bwihuse, kandi butabangamye. N'ibinyabiziga biwunyuramo bikagera aho bigiye mu buryo bwiza. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni umuhanda munini urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo ibiri kugenda n'ibiri kuza, ibinyabiziga ni ingenzi kuko bifasha abantu mu buzima bwa buri munsi, kukugera aho waba ushaka kujya.

Ni umuhanda urimo inzira y'abanyamaguru. Inzira y'abanyamaguru ni ingenzi, ituma abantu bambuka batabangamiranye n'ibinyabiziga. Bambuka mu buryo bwiza. Inzira y'abanyamaguru ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye birabisikana, ibigenda bizamuka n'ibimanuka umuhanda ni ingenzi kuko ufasha abantu kugera aho bagiye, ndetse yaba n'ibinyabiziga ni ingenzi ku mbaga nyamwinshi.

Ni mu muhanda! N'amahuriro y'umuhanda. Umuhanda ni ingenzi kuko ufasha abanyamaguru, ibinyabiziga ibyo ari byo byose kugera aho bigiye nta mbogamizi ibayemo.

Ni amasangano mumuhanda afitiye umumaro abantu, ndetse n'ibinyabiziga. Atuma ibinyabiziga bibasha kubisikana neza bitabangamiranye. Ni ingenzi mumbaga nyamwinshi.

Umuhanda inzira y'abanyamaguru: inzira y'abanyamaguru ni ingenzi kuko ifasha abanyamaguru kugera aho bagiye bitabangamiye ibinyabiziga. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.